Ibiti kimwe mu bihingwa bitaribwa ariko bishobora gukurwamo imiti, usibye n'imiti gusa, hari ibikoresho bikoreshwa na muntu mu buzima bwe bwa buri munsi, bikomoka ku biti nk'intebe zikorwa n'ababaji.

Amashuri y'ubumenyi ngiro ndetse aha abenshi bayafata nk'amashuri y'imyuga, ari muri bimwe bifasha urubyiruko kuba bakwiteza imbere batarindiriye akazi ko mu biro, nk'uko urubyiruko rwinshi ruba rubyifuza.

Amashuri y'imyuga n'ubumenyi rusange ari mu byatejwe imbere mu Rwanda, aho usanga harimo n'abiga guteka indyo z'imico itandukanye. Aho badashobora gutekera abanyarwanda gusa, ahubwo biga no guteka indyo z'amahanga.

Amashuri y'imyuga ndetse n'ubumenyingiro ari muri bimwe mu bifasha urubyiruko kuba rwakwiteza imbere mu gihe rusoje kwiga, aho usanga bigiramo ibikorwa bitandukanye, nkaho biga gukoresha ibikoresho bifata amashusho bishobora gukoreshwa n'itangazamakuru ndetse na bimwe mu myidagaduro, bityo bakiteza imbere.

Ishyirwa mu bikorwa byo kujyana urubyiruko mu mashuri yisumbuye, ndetse n'ay'imyuga. Biri muri bimwe bifasha urubyiruko kuba rwakwiteza imbere mu gihe rusoje amashuri. Aho rushyira mu bikorwa bimwe mu byo rwigiye mu mashuri, bikarufasha kuba rwakwiteza imbere.

Iterambere ry'amashuri ni bimwe mu byateje imbere urubyiruko, aho bajya mu mashuri, iyo basoje amashuri yisumbuye, ubwo ni atandatu yisumbuye. Iyo bayasoje bashobora kujya hanze bakabasha kuba bashyira mu bikorwa ibyo bize mu mashuri bikabateza imbere.

Ubumenyi mu bijyanye n'ikoranabuhanga, biri muri bimwe byagakwiye gutezwa imbere, cyane cyane mu mashuri ho abanyeshuri ndetse n'urubyiruko rusoje amashuri, babyifashisha hanze iyo basoje amashuri mu guhanga udushya ndetse no gukora ibindi, indi mirimo itandukanye.

Ubumenyi butangirwa mu mashuri, buri muri bimwe bifasha urubyiruko ndetse n'abandi bose bageze mu mashuri kuba bakwitwara neza muri sosiyete, aho usanga bahigira ikinyabupfura nka kimwe kibafasha kwiteza imbere.

Ubumenyi, ikinyabupfura, biri muri bimwe abanyeshuri urubyiruko abana bigira mu mashuri, aho usanga ibyo biga bibafasha kuba babaho mu gihe basoje amashuri yabo yisumbuye...

Amashuri y'imyuga n'ubumenyi rusange, ari muri bimwe mu bifasha abakobwa ndetse n'urundi rubyiruko rutabashije kuba rwakwiga amashuri asanzwe, kuba bakwiteza imbere, aho biga nko gukora inzara ku badamu ndetse n'abagabo, gukora imisatsi ndetse n'ibindi.

Ubumenyi mu bijyanye n'ikoranabuhanga buri muri bimwe urubyiruko ruri mu mashuri yisumbuye rushishikarizwa kuba rwashyirwamo imbaraga, aho bibafasha kuba ba kwihangira imirimo, kumenya aho isi igeze, ndetse no kuba bakwagura imyumvire, ndetse n'ubumenyi bwo mu mutwe bigendeye ku ikoranabuhanga.